Iduka rigezweho ricuruza imyenda, ku buryo umuntu wese wifuza kugura imyenda iri ku rwego rwiza yahagana.

Ahantu hakorerwa mu bucuruzi butandukanye, bwiganjemo ubucuruzi bw'ibyo kunywa, ibinyobwa, amata ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko bigaragara.

Urupapuro rugaragaza uburyo butandukanye bukoreshwa n'ibigo by'ubucuruzi mu Rwanda, buba bugaragaza ko wabikije amafaranga cyangwa se wayabikuje kugira ngo nawe wizere ko amafaranga abikije yagezeho cyangwa se wabikuje yavuyeho.

Ifoto igaragaza ibicuruzwa cyangwa se serivisi zitangirwa muri hoteri; Giriti hoteri, mu kiyovu, abenshi tumenyeye nka meniyu; igaragaza ibiciro ndetse n'ibicuruzwa batanga.

Ni mu isoko, aho bigaragara ko uyu mumama ategereje abakiriya kugira ngo abahe ibicuruzwa bye birimo inyanya, tungurusumu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bijyanye n'ibiribwa.

Inzu ikodeshwa irimo icyumba kimwe, ubwogero bumwe, iherereye Kigali Kacyiru nko ku kwezi yishyurwa ibihumbi magana abiri.